Kandagirukarabe zibaga nziza cane kubera ko turazikoreshaga mu isuku muri rusange. Hano harabazikarabiragamo intoki, abandi bakazogerezamo amasahani, bakazifuriramo, bitewe n'ibyo bashaka.

Umwuga wo gushushanya cyangwa ubugeni ni umwuga mwiza cyane ushobora gushushanya ibishushanyo byinshi cyane ukabikoresha mu nyubako runaka baba bashaka abagira gutya badakora bigatuma nawe ubona amafaranga aguteza imbere kubera kuba wabigurishije ntabwo ubikorera ubuntu.

Umwuga wo gusudira na wo ubaga mwiza cane kubera ko uradufashaga, abantu tukiteza imbere biturutse kuba twasudiye, abandi bakabigira nk'umwuga, ndetse binadufasha kuba twakora inzu, tugafungisha amazu, amadirishya ndetse n'ibindi byinshi cane bitandukanye.

Ubugeni ni ikintu cyiza cane, gushushanya, umuntu ashobora gushushanya ibintu, bikaja muri mize, bikaja mu nzu ndangamurage canga bikaja ahandi hantu hahurira abantu benshi, bakaja bababireba bakishima, igihe babirebye bakishima bakishura amafaranga, uwo muntu wabikoze na we akaja arabigurisha, bakabigira imitako yo mu nzu bubaka, akabona amafaranga byoroshe.

Umuntu wize ubukerarugendo ni umuntu usobanutse, umuntu ushobora kuba yayobora abandi mu ishamba, akaba yabereka ubwoko bw'inyoni, akabereka ubwoko bw'inyamaswa, bikaba byamuhesha amafaranga kubw'uko bamu mukerarugendo barishura, akabona amafaranga yo kwishura inzu, yo kwishura amazi, yo kwishura n'ibindi bitandukanye, akaba mu buzima yishimiye.

Kwiga imyuga n'ubumenyigiro ni ikintu ciza cane kubera ko iyo wize umunyamyuga w'ubumenyingiro ushobora kuba wakwihangira imirimo cangwa se ukaba waja gukora mu ruganda runaka cangwa no mu bindi bintu byinshi cane ushobora kuba wajamo bikakugirira akamaro ndetse ikindi binarwanya kuba ushobora kuba wabura akazi bya hato na hato biri ahongaho ukaba wabasha kubona ibyo ukora.

Mekanike ni nziza cane iyo wayibonye ukoraga akazi kawe neza wishimye, kubera ko banahembaga amafaranga menshi. Ushobora gukora mu magaraje, ushobora gukora mu nganda, cyangwa ugashaka ukuntu washinga akaduka kawe, cyangwa akabotike, ukiteza imbere.

Ibigo by'amashuri y'abakiri batoya ni ibigo byiza cane kubera ko bifonda umwana agakura afite agakura afite ubumenyi buhagije, akagira ndetse na fondasiyo ikomeye cyane murita muri rusange cangwa itangiriro.

Umwuga wo gutanga ubumenyi wigisha abandi banyeshuri, bibaga byiza cane kubera ko bituma uhereza ubumenyi ufite abandi, nawe ukagiriramo inyungu yuko ubonaga amafaranga kubera ko Leta y'u Rwanda yishuraga abarimu, ituma babona amafaranga bakabasha kuba bakemura ibibazo mu miryango yabo.

Ku mwana kwiga ni byiza cane bitumaga agira ubumenyi butandukanye, akarushaho kubaho neza agakura mu bwonko no mu bitekerezo, ndetse akazabasha kubaho neza ku hazaza bitewe n'ibintu yagiye anyuramo ari ku ishuri.

Igikorwa co kuba umuntu yakwiga gukoresha ibikoresho bya elegitoronike ni ciza cane, kubera ko ubasha kuba wamenya gukanika amaradiyo, kuba wamenya gukoresha umurasire, n'izi za taransifo, n'ibindi byinshi cane ubashaga kuba wamenya.

Umwuga wo kuvura abantu cangwa niyo yaba amatungo ni umwuga mwiza cane, kubera ko umuntu ari umuganga abashaga kuba yakwiga ibintu byinshi cane, akamenya ubuzima bwa muntu ndetse bikamufasha no kuba byamuha akazi, akabasha kuba yavura abandi akabona amafaranga amufasha kwishura inzu, kwishura ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Gusudira ni umwuga mwiza cyane, kubera ko bigufasha kuba wabona amafaranga mu gihe wakoze akazi kawe neza kakarangira, kandi ni na ho dukura inzugi zo gushyira mu mazu yacu, ni ho dukura amadirishya yo gushyira mu mazu yacu, ndetse ni na ho dukura intebe zo kwicaraho n'ibindi byinshi,.